Umwana, amazi, ijerekani. Amazi aragaragara nk'aho ari mu mugezi utemba. Umwana akoresheje amaboko arimo aravoma amazi mu mugezi utemba akoresheje ijerekani.

Mu buzima bwa muntu akenera imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Umusore arasutamye yambaye ikabutura ya siporo, yambaye n'inkweto za siporo ndetse n'isaha ku kaboko k'ibumoso. Arambuye akaguru k'iburyo n'akaboko k'iburyo mu gukora imyitozo ye ngororamubiri.